Inama yitabiriwe n'abaturage ubona ko ari benshi cyane, iyo nama ikaba iri kuremeshwa n'inzego z'umutekano, by'umwihariko n'abaporisi.

Umugore urikuboha imitako za kinyarwanda, akoresheje ubwatsi n' ibideyi n' urushinge urabona ko ari imitako yiganjemo ibiseke n' indi mitako yo mu nzu.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga kiboneka mu Rwanda, icyo gihingwa cyitwa imbwija. Iyo gikuze gishobora kugira imishogi, ndetse kikagira n'indabo z'umweru.

Umugabo ugaragaza umuco nyarwanda binyuze mu kazu gatoya yiteye, akaba yaragakoze akoresheje ibirere ndetse n'ibisika.

Ubukwe bwa kinyarwanda bugaragaramo inkongoro zibajijwe mu biti, izo nkongoro zikaba ziri guhabwa urubyiruko. Umusore niwe uri guhereza urwo rubyiruko amata, uretse ko umukazana atagaragara.

Abakobwa batatu, bambaye imyenda ya kinkinyarwanda, imikenyero, basokoje imisatsi, bari gusangirira mu kibindi, buri wese afite umuheha, urabona ko bagaragaza umuco nyarwanda wa kera.

Umutwe w'umuntu ugaragaza umuco nyarwanda by'umwihariko kwerekana imwe mu nyogosho abantu bo hambere bitaga amasunzu.

Kimwe mu bikoresho by'amashanyarazi, cyifashishwa mu gushira umuriro muri terefone, bakaba aricyo bacomeka mucyo bita purize, kugirango umuriro ujye muri terefone.

Abakuru b'amadini atandukanye bahuriye hamwe kugira ngo bagire ibyo baganiraho bijyanye n'imyemerere ndetse n'imyizerere y'abaturage n'abakirisitu muri rusange.

Komite nyobozi igizwe n'abagabo babiri n'umugore umwe bicaye hamwe ubona ko hari ibyo bari kuganiraho, umusaza aza abagana aje kubasobanuza mu rwego rwo guharanira uburenganzira bwe.

Abaturage batandukanye bitabiriye inama yabereye mu gihugu, abo baturage bamwe baricaye, abandi barahagaze, abo bahagaze bakaba bari kubaza ibibazo mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwabo.

Muri gare aho bategera amamodoka ari kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo gare ikaba yitwa Rwamagana, ikaba iherereye mu karere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba.

Imodoka ntoya cyane za bisi, zitwara abantu bari kwerekeza mu bice bitandukanye, izo modoka barazikodesha ku giciro runaka zikabageza aho bashaka.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo batwaye ibintu, hari abagabo bikoreye imizigo ku mitwe yabo, hari kugaragara umugabo nawe utwaye ibijerekani by'amavuta ku ngorofani.

Umupira wa baro waruri gukinwa， uwo mupira bakaba bawukubise ku rushundura rw'amazamu. Uwo mupira usa n'umweru，urushundura rusa n'ubururu.

Abantu bitabiriye amarushanwa yo gukina imikino igorora umubiri wacu, aba bantu bitabiriye, higanjemo abakobwa b'urubyiruko, bakiri bato.

Isiganwa ry'amagare, ryiganjemo urubyiruko rw'abasore bakiri bato cyane. Urabona ko bishimye, batwaye amagare mu muhanda wa kaburimbo.